Ikigo gitanga ubwishingizi. Aho batanga ubwishingizi mu bintu bigiye bitandukanye. batanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, bagatanga ubwishingizi bw'imitungo itimukanwa, ubwishingizi bw'umushinga.

Ikigo cya Radiant gitanga ubwishingizi ku bworozi, aho umworozi n'umuntu woroye amatungo, bagenda bagatanga ubwishingizi, uwo mushinga we wo korora wazagira ikibazo, iki kigo cya Radiant kikagira icyo bimusonera.

Urubuga rwa Banki, eee rukaba rukorera kuri murandasi, aho bafasha abantu kohereza amafaranga cyangwa bakohererezwa, cyangwa se bakishyura ibintu bigiye bitandukanye nko kwishyura ibintu bakoresheje, kwishyura amazi, kwishyura umuriro...

Urubuga rwo kuri murandasi rwa banki, rwifashishwa mu kohereza amafaranga cyangwa kwiyohererezwa bitarinze kujya kuri banki, aho ushobora kwishyura ibintu bijyiye bitandukanye nk'amazi, umuriro, n'ifatabuguzi.

Ikigo cy'ubucuruzi gicuruza ibintu biboshye gicuruza amashusho y'abantu, ibintu bishushanyije byerekana amateka, amafoto y'amateka y'igihugu, ibintu bijyanye n'umuco, ibintu bijyanye n'indangagaciro...

Inzu y'ubucuruzi icururizamo imyambaro igiye itandukanye, imyambaro y'abagore nkuko iri hanze, amakanzu, amajipo maremare n'amagufi, Iri duka rero rikaba riri inyuma mu ibara ry'ubururu, bakaba bashyize ibicuruzwa hanze.

Inkweto z'abagore zicuruzwa, hano hakaba hari iziciye, izifite inyuma harehare, izirarambuye munsi, aho bazijyana ahantu hagiye hatandukanye, gusohoka, mu bukwe, gushyingura.

Inzu y'ubucuruzi, baba bari gucururizamo imyenda igiye itandukanye yo kwambara:iyo hejuru, iyo kwambara hasi, iy'abagabo, iy'abagore, iyo kwifubika, hano hari iyo gukinana umupira cyangwa indi myitozo ngororamubiri, hari izwi nk'amasengeri, iyo kwambara hasi, cyangwa hejuru.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye nk'inkweto zifunze, izifunguye, izo kujyana ahantu, izo gukorana imyitozo ngororamubiri, izo kwiruka ndetse n'izo gukinisha imikino igiye itandukanye.

Ikigo cy'ubucuruzi kikaba gicuruza imyenda, inkweto, imyambaro y'abagabo, iy'abagore iy'abana n'abantu basheshe akanguhe, hano rero hakaba hari imipira imanitse, hamanitse amakoti meza, imbere hakaba hari intebe y'umweru.

Hano hari abagabo babiri, aho hari uwa ruhu rwera cyangwa abo bita abazungu, hakaba hari n'undi w'umwirabura bagirango barabura kuri ibijyanye n'amashanyarazi, aho uyu wa ruhurwera ariho aramwerekera, uw'umwirabura akaba yambaye umwenda w'akazi usa umutuku.

Ikinyabiziga kigurishwa kikaba cyarakozwe mu cumi nakarindwi, ikikaba kigurishwa miliyoni mirongo itatu ikininyabiziga kiba gisa umukara cyo mu ruganda rwa tota kandi ikinyabiziga kikaba gikoresha umuriro.

ki ngiki akaba ari ikinyabiziga kigurishwa n'ikigo cya Kigali, isoko rya Kigali kikaba ari ikinyabiziga cy'umukara, bigaragara ko ari gishyashya, inyuma kandi hari ibindi binyabiziga, hari ikinyabiziga gisa umweru, cy'inzigz ebyiri.

Ikigo cyitwa Akagera, kikaba kigurisha imodoka, hano hari abagabo batatu, babiri bafite icyapa cy'Akagera, uko bigaragara uri hagati ashobora kuba yaguze iki kinyabiziga, bariho baraseka, inyuma hari ikindi kinyabiziga.

Hano hakaba hari umugabo uriho urabara amafaranga afite n'imashini imbere ye, aho agiye afite ibipfundo by'amafaranga bigiye bitandukanye, aho wayashyira muri aka kamashini cyangwa iki icyuma kikamufasha kubara vuba kandi mu gihe gito.

Aho hari umuntu uri kubara amafaranga agiye atandukanye, hari ayo afashe mu kuboko kw'iburyo, ni amafaranga akorerwa muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, azwi nk'amadolari, hirya afite ibindi bipfundo by'amafaranga agiye atandukanye.

Aho hano baba baje kwishyura cyangwa kubitsa, umugabo urimo imbere y'ibirahuri wambaye ishati y'umweru, akaba ariwe ushinzwe kwakira amafaranga ayabara yegeraranye n'imashini iyabara, aba bandi baba baje kubitsa cyangwa kubikuza.

Inoti y'ibihumbi bibiri ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho hariho umunara, hakabaho imikono abakuru ba banki n'abandi, bikaba byanditse mu kirimi cy'u Rwanda.

Ibiceri bibiri bikoreshwa mu gihugu kimwe gikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ikindi cyarakoreshwaga kimwe kikaba ari igiceri cya venti ikindi kikaba ari igiceri cyatanu aho ikindi kiburara ry'umuhondo kitagikoreshwa ariko iki kiri mu ibara ry'umweru kiracyakoreshwa.

Icyuma gishinzwe kubara amafaranga nka hano hakaba hari amafaranga yi mubibandari menshi, hano bashyiramo hejuru hari inoti ya magana atanu cyangwa mirongo itanu, bayishyiramo ikabara vuba kurusha umuntu.

Abantu bicaye mu birahure bakaba bashinzwe ibijyanye n'ivungishwa cyangwa bakakira ibijyanye n'amafaranga abaturage baba bazanye aho umuturage araza agahagarara imbere akamuhereza ubu bakagira uko bumvikana bitewe n'ibyo gukora.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu akaba arimo arabara amafaranga, arimo arayabara agahita yandika, yambaye neza, ari mu birahure, yambaye amadarubindi, yambaye n'ikimenyetso kigaragaza aho akora.

Ikusanyirizo ry'amata, ahantu abaturage baba bakamye amata yabo menshi, bakagenda bayajyana mu bikusanyirizo kugira ngo bayayungurure neza babashe kuyahereza abaturage ameze neza, hano barayakonjesha, imyanda ikajya ukwayo n'amata meza akajya ukwayo.

Ikusanyirizo ry'amata ni ahantu abantu bajya, abaturage bagenda bakama amata mu ngo zabo, bakayajyanayo bakagenda bakayishyira mu byuma biba byarabigenewe, bakayiyungurura ameza akajya ku ruhande, kugira ngo babashe kugurisha amata meza.

Ikusanyirizo ry'amata aho abaturage bakusanya amata bakayajyana, bakayayungurura neza. Hakaba hari umugore wambaye itaburiya y'umweru uyacuruza, akaba arimo arayavomera mu kajerekani kajyamo litiro eshanu.

Urunguru akaba ari urubuga rufasha kohereza cyangwa kohererezwa, ibintu bijyanye n'amafaranga kuri iyi telefoni ngendanwa, aho hano ushyiramo igihugu, ugashyiramo n'igiciro n'uwo ushaka koherereza, ukaba wabyohereza utiriwe uva iwawe.

Abagabo babiri bari kumwe cyangwa se abasore, bakaba bariho barareba muri terefone zabo ngendanwa, hari urubuga buriya bari kurebaho ibyo bari kwishyura, umwe akaba yambaye umupira w'igihugu wanditseho u Rwanda, n'umupira w'abantu bakina umukino w'amaboko.

Uru akaba ari urubuga rukoreshwa kuri murandasi, rukaba rufasha abantu kohereza ibijyanye n'amafaranga cyangwa bakayohererezwa, bitewe abashaka koherereza mu ya mu yandi mafaranga yo mu kindi gihugu urabikora utiriwe kujya kuvunjisha...

Uburyo bwo ku ikoranabuhanga bwo kohererereza amafaranga cyangwa kohererezwa, aho hano nimero imwe yari yoherereje indi ariko icyo gikorwa nticyabasha kugenda neza, aho yaramwoheherereje ibihumbi bitatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Ubu ngubu akaba ari uburyo bwifashishwa mu kohereza amafaranga nubwo bari bari kumubwira ngo nakande umubare wa rimwe yemeze noneho ahite yohereza cyangwa abikuze ibihumbi mirongo itandatu n'icyenda magana atanu.

Hano harimo inoti enye n'ibiceri bigiye bitandukanye by'amoko ane, akaba ari inote y'igihumbi, inote ya bibiri, inote ya bitanu, n'inote y'ibihumbi icumi, hakaba n'ibindi biceri bikoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania.

amafaranga ateretse ahantu hamwe, harimo: inoti, ibiceri, amafaranga yo mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika inote y'ijana. Hanyuma hari n'izindi note z'ijana, hateretse n'ibindi biceri.

Inoti ebyiri z'amafaranga, hari inoti yo hejuru ikaba iriho umugabo isa niyo hasi, iya hejuru ni inoti ya magana atanu, iyo hasi ni inoti y'igihumbi. Akaba ari inoti zishobora kuba zikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde.

Ikigo cy'ivunja n'ivunjisha kiba gifite igiciro ngenderwaho hano baba berekana ngo ushobora kurigura kuri aya, ukarigurisha kuri aya. Hakaba hari igiciro fatizo cyatanzwe na banki nkuru y'icyo gihugu, aho ushobora kujyana amafaranga ayo ariyo yose bakakuvunjira neza.

Ibi ngibi ni ibiceri biri mu moko abiri, aho ari ibiceri bijya gusa umweru bisa n'ibishaje hari n'ibindi bijya gusa umuhondo rero bikaba ari ibiceri bikoreshwa mu gihugu, ntabwo bigaragara igihugu icyo ari cyo ariko ni amafaranga akoreshwa.

Bano ni abagabo babiri umwe arimo aratanga amafaranga undi hanyuma arayakira inoti enye z'amadorari y'ijana zikoreshwa muri leta zunze ubumwe za amerika aho bashobora kuba barimo kwishyura cyangwa bari kubikura.

Aho iki ngiki ari ikigo gifasha ibintu bijyanye n'ivunja n'ivunjisha ry'ifaranga, aho ujyana amafaranga ufite bakaba bayakuvungira mu buryo ushaka, ushobora kuyavana mu mahanga bakaba bayagushyirira muri icyo gihugu.

Ikigo gifasha ibintu bijyanye n'ivunja n'ivunjisha ry'ifarangakorewe rihagaze ku isoko aho ikigo gitanga igiciro fatizo cy'ifaranga amafaranga yose, bakabasha ku kuvungiraho bagena amafaranga y'u Rwanda cyangwa amadolari, bakabasha kukuvunjira bitewe nayo ntabishaka.

Ikigo cy'ivunjisha nubwo hari umugabo waje kuvunjisha, haba hari igiciro fatizo bari buvunjishirizeho ifaranga ryo mu gihugu icyo ari cyo cyose, aho banki nkuru y'icyo gihugu iba yatanze igiciro fatizo cy'ifaranga.

Akaba ari ikigo cyitwa dukomere kikaba gishinzwe ibijyanye n'ivunja n'ivunjisha ry'ifaranga, aho ujyana amafaranga amwe nk'ayo mu Rwanda bakaguha nk'Amarundi cyangwa bakaguha nk'amadolari akoreshwa muri leta zunze ubumwe za Amerika.

Iyi ntebe ikozwe mu mbaho, iyi ngiyi abantu barabaza bakayikora, zikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda barazikora, ikaba ari intebe yicarwamo n'umuntu umwe, ikoze neza mu mbaho nazo zo mu gihugu cy'u rwanda.

Intebe yicarwamo umuntu umwe, ifite umusego n'aho kwegama heza, ikaba ibajije mu biti ikaba iteye n'irangi rijya gusa umukara, hari n'intebe nziza, abantu baba mu Rwanda bibaziriza bakayikora.

Ibikoresho byo mu nzu byifashishwa mu kwicara cyangwa kurya, aho mushobora kwicara hari intebe zicaramo abantu babiri, iy'umuntu umwe ndetse n'iy'abantu batatu, imbere hakaba hari imeza na yo iteguyeho ku buryo mwayisangiriraho.

Ibikoresho byifashishwa mu nzu harimo; imeza, harimo utubati, harimo intebe, intebe zo kuriraho ziba zicarwaho n'umuntu umwe, hari utubati twiza cyane.

Akabati kamanitsemo ibintu bigiye bitandukanye, nk'ibintu bihumuza mu nzu, ni imitako myiza yi'cyatsi, n'undi mutako ukozwe mu kanyamaswa k'ikinyugunyugu, ni keza.

Mu ruganiriro cyangwa aho abantu bahurira nk'umuryango mu nyubako yabo hakaba hari intebe hakaba hari itara inyuma hakaba hari n'utumeza duto n'imeza nini byifashishwa mu gihe bari kuganira cyangwa bari kurya.

Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali, aho bakiriramo inama n'ibindi bigiye bitandukanye, akaba ari na hoteli, ahantu heza cyane hari kwaka amabara agiye atandukanye akurura abantu.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako, inzu bakunda kwita hoteli akaba ari ahantu hasohokera abantu baje kuruhuka cyangwa habereye amakwe, hano hakaba hari ubwogero ahantu abantu bogera benshi kandi hanini heza, akaba ari n'aho kuruhukira.

Banki ikorera mu Rwanda yitwa Ecobank, ikaba itanga inguzanyo ku bayigannye, bakaba baguha inguzanyo y'imodoka cyangwa y'ikinyabiziga, ukaba wakigura ukazagenda wishyura uko ubishoboye.

Banki ikorera mu Rwanda, ikaba yitwa banki y'abaturage, ikaba ifasha abantu kubitsa, kubikuza, gufata inguzanyo kugira ngo ukemure ibibazo noneho nuyabona uzagende uyishyura gake gake uko ubishoboye

Banki ikorera mu Rwanda, ikaba yitwa banki y'abaturage, ikaba iguriza abantu cyangwa itanga inguzanyo kubatura Rwanda, aho waka ideni, ukazagenda wishyura gake gake uko ugenda uyabona, bitewe n'ayo watse, bitewe n'icyo ukora.

Iri ngiri akaba ari isoko ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye, haba harimo amapapayi, hakaba harimo amaronji, hakaba harimo ibinyomoro, hakaba harimo n'inanasi, hakaba harimo n'imineke, hakabako hari umugore wifuje kumenya ko ari umucuruzi.

Mu isoko haba hacururizwamo ibintu byinshi, izingizi ni imbuto zicuruzwa, harimo inyanya, harimo amashu, harimo intoryi, hirya hari ababicuruza bafite n'ibyo baba bagenda babipimiramo.

Mu isoko haba hacururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, Aho hano harimo imyumbati, hakabamo imbuto zigiye zitandukanye, harimo ibishyimbo, harimo amashaza, harimo n'ibikoresho bifasha gupima ibyo ngibyo nk'ibishyimbo n'ibindi...

Ikigo cy'itumanaho cya MTN Mobile, aba ngaba akaba ari abakozi bacyo aho baba bagenda begera abaturage bagenda bafasha ibintu bigiye bitandukanye, hari ababa bakeneye amasimukadi yabo, n'uburyo babitsamo cyangwa bakabikuza.

Ikigo gikorera kuri murandasi gicuruza ibibiribwa, imbuto n'ibindi bigiye bitandukanye, bakaba bashyiraho ibiribwa bagashyiraho n'igiciro cyabyo kugira ngo ubaganye abashe kubona igiciro, abandikire babimwisangishirize aho ari.

Ikigo cyo kuri murandasi gicuruza ibintu cyangwa urubuga aho baba ari ibiciro by'ikintu n'aho baherereye ukaba wabandikira ukababwira ikintu ushaka bakakikugezaho utiriwe uva iwawe mu rugo.

Ikigo gikorera kuri murandasi kikaba gicururizaho ibintu bigiye bitandukanye, aho haba hariho igiciro cyabyo ukabandikira ukababwira ngo ndashaka iki kintu, bakaba niyo waba uri mu kindi gihugu bakaba bagufasha ko kikugeraho kandi igihe gito.

Ikigo gikorera kuri murandasi, kikaba gicuruza ibijyanye n'ibiribwa n'ibindi bintu, aho ushobora kubandikira cyangwa ukabahamagara ukabwira ikintu ushaka, bakakubwira igiciro utiriwe ugerayo bahita babikuzanira.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe ikaba igurishwa ibihumbi mirongo itandatu na bitanu y'amadolari y'Amerika uyavunje mu munyarwanda arakabakaba miliyoni ijana z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako iherereye mujyi wa Kigali mu Murenge wa Remera, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi. Ifite ubwogero bubiri, ni inzu yuzuye imeze neza ifite n'igikoni mo imbere.

Inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ifite ubuso bwa magana atatu na mirongo irindwi na gatanu, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda, igaragara ni inzu nini ifite n'ubuso bunini...

Inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali ahazwi nka Kibagabaga cyangwa mu Murenge wa Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba bibiri, ikaba bifite ubwogero bubiri buri mu nzu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi kumwe.

iyi nyubako ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali kimiro murenge kimironko ahazwi nko kwa semikondo ikaba ifite ibyumba bitatu bifite ubwogero butatu ikaba ifite n'ahantu bogereza ba kimunntu ikabikorede ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u rwanda Inyubako ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigaki Kimironko, mu murenge wa Kimironko ahazwi ngo kwa Semikondo. Ikaba ifite n'ahantu bogereza ba Kimuntu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako iherereye mu mujyi wa kigali mu gihugu cy'u Rwanda ikaba igurishwa miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda, inzu iragereritse yubatse bigezweho ko leta yacu idushishikariza kubaka.

Inyubako ikodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali ahazwi i kanombe cyangwa mu umurenge wa kanombe ikaba ifite ibyumba bitatu ikaba ifite ubwogero bubiri ikaba ikodeshwa 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako ikodeshwa ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe ikaba ifite aho kurara hane, ibyumba bine, ikaba ifite ubwogero bune, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimironko, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifite ibyumba bibiri ikaba ifite n'ubwogero mu nzu muri iyo nyubako.

Iyi ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa kigali mu murenge wa kanombe mumujyi rwagati ikaba igurishwa miliyoni 95000000 zamafranga y'u Rwanda ikaba ari inyubako ifite ubuso bwa rwajyamo imodoka eshatu.

Iyi nzu cyangwa inyubako icururizwamo ibintu harimo ibiribwa, ibinyobwa, imiti runaka, harimo bacururizamo ibintu by'isuku, by'abana, harimo n'ibindi, imiti y'inyamaswa.

Inyubako icururizwamo imyambaro y’abagabo, y’abagore, y’abana, n’iy’abasaza, hakaba hamanitswe imyenda yo kwambara hejuru, iyo kwambara hasi, n’indi ifu igifunze mu mashashi.

Ikigo cy'EjoHeza cyangwa umushinga w'EjoHeza, ukaba ushishikariza abantu kwizigama mu gihe baba bagikora, mu gihe bageze mu zabukuru batakibasha gukora, batakibasha imirimo, ya mafaranga bizigamimye cyangwa bya bintu bizigamye bikabagoboka.

Ikigo cyangwa umushinga wa ejo heza, ukaba ari uwo kwizigama. Mu gihe umuntu agifite amaboko cyangwa imbaraga zo gukora akizigamira, yazagera mu zabukuru akabasha, bakabasha kumugoboka.

Ikigo cya SANLAM kikaba gitanga ubwishingizi mu kwivuza cyangwa ubundi bwishingizi, hano hari ikindi kigo cya ejo heza, cyangwa umushinga wa ejo heza, aho umuntu yizigamira agifite amaboko yo gukora, akazamugoboka nyuma.

Inzu y'ubucuruzi aho iri gucuruzamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, hari ibiryohera bikozwe mu myembe, hari ibindi byo hasi bisembuye n'ibidasembuye, ibikundwa n'abana.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibiribwa, ibinyobwa n'ibindi bintu bi bitandukanye, hano hagiye hapanze ibiribwa birimo biri mu ibara ry'ubururu, hirya ibara ry'umuhondo hagiye harimo n'ibindi by'amabara agiye atandukanye bipanze ku murongo.

Hano hari umugore cyangwa umukobwa igitsina gore; akaba arimo aragura cyangwa arimo arahaha ibintu bigiye bitandukanye; imbuto zigaragara nk'inanasi niyo iri hejuru.

Hano ni ahantu habera ubucuruzi aho hari ibintu byo kunywa, ibyo kurya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, urabona ino shusho bayifatiye hejuru, ni ahantu heza ibintu bigiye bipanze ku murongo.

Inzu y'ubucuruzi irimo abagabo batatu, harimo uwambaye umupira w'umuhondo bigaragara ko akoramo, hari uri kugenda agura afite akantu kameze nk'akagare, ari kugenda ashyiramo ibyo yashimye kugira ngo baze kumubarira.

Inzu y'ubucuruzi ikaba icururizwamo ibintu bijyanye n'isuku yo mu menyo, icururizwamo amasabune y'isuku y'umubiri, yo kwisiga, ibiribwa ibikoresho byifashishwa mu kwisukura mu menyo n'ubundi, apana umuti.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho ikintu ugenda ureba ikintu ushimye ukagishyira muri aka kagare, wajya gusohoka ukabifata ukajya kubarisha bakakubarira bite n'ibyo wazanye muri ako kagare ukishyura.

Inyubako y'ubucuruzi aho umuntu aba azenguruka ikintu ashimye akagishyira muri aka kagare, noneho ubwo yajya gusohoka haba hari ahantu ho kubarisha akagenda akabitanga bakamubarira, akareba ibyo azanye n'igiciro akishyura.

Iyi ngiyi ikaba ari inyubako y'ubucuruzi, aho umuntu aba yagiye azenguruka hano hantu ashyira muri aka kagare ibyo ashaka, akaza hano bakamubarira, uriya mukobwa urimo imbere buriya agiye kumubarira ibyo yazanye igiciro cyabyo, akishyura akabijyana.